Muganga wenyine niwe ufite uburenganzira n'ububasha bwo kuba yakurikirana umurwayi, akaba yamushyiramo ibipimo bigiye bitandukanye bitewe n'indwara akeka ko ashobora kuba arwaye.

Abaganga burya na bo bagira igihe cyo gusabana iyo akazi karangiye, bakaba bakicara hamwe bakaganira se, bakifotozanya n'ibindi bikorwa byatuma bishima.

Abana ni kenshi nk'abarezi ababyeyi dushishikarizwa kuba twabatoza umuco w'isuku bakiri bato kubera ko ibi iyo babikuranye bituma babyikoresha ari ntawe ubahagaze hejuru.

Iyo mu midugudu havutse ibibazo byo kubura kw'amazi, usanga abantu batonze amabido menshi ndetse bakirirwa ku mugezi nk'aho badafite ibindi byo gukora.

Ni byiza kwicara hamwe, mukajya inama n'abayobozi kugira ngo mufate imyanzuro ikwiriye y'ibyo mwatekereje kandi mutangire mubishyire mu bikorwa, bigere ku bo mwabikoreye.

Nta kintu gishimisha nko kubona abo uyoboye bishimye kubera ko baba bishimiye ubuyobozi bwawe kandi baba bumva bayobowe neza, ni yo mpamvu tugomba kubana neza n'abo tuyobora.

Umuryango w'isi ushinzwe ubuzima bw'abantu ushishikariza abantu kurya neza indyo yuzuye n'ibindi byose kandi ntibakabure imboga ndetse n'imbuto ku ifunguro ryabo.

Ni byiza ko twirinda kuvoma amazi ayo ariyo yose kubera ko yose aba atari ko ari meza, ahubwo igihe tuyavomye tukayageza mu rugo tukayateka tukayaserura neza kugira ngo tuyanywe.

Iyo abantu bicaye hamwe bajya inama, batekereza neza cyane cyane abayobozi bakuru b'igihugu, kuko bo ahantu baba bakoreye inama hatandukanye naho abandi bayobozi basanzwe.

Buri gihe abaganga babikora kinyamwuga iyo bagiye gutera urushinge umurwayi hari arukoru babanza kumusigira ku rutoki kugira ngo ikureho imyanda hanyuma babone kumufata ibizamini by'amararaso.

Umuryango wa UNICEF, ushinzwe imyigire y'abana batoya, ugomba kubakurikirana ukabigisha gusoma, kwandika, ndetse n'ikinyabupfura n'ibindi.

Ahantu hose haba ibikorwa birebire cyangwa bifite imbaraga, ni byiza ko bagomba kuba hari zakizimyamwoto kugira ngo haramutse habaye inkongi babe bazikoresha bazimye ibintu bitarangirika.

Urujya n'uruza rw'abantu bakeneye serivisi zigiye zitandukanye, harimo izikorerwa ku biro by'Akagari, iyo batonze imirongo bategereje uri bubafashe uba ubona barambiwe.

Umuco wo kunywa amazi, si ngombwa ko ucika kubera ko amazi twamaze kuyegerezwa kandi tubwirwa kenshi ko imibiri yacu iba iyakeneye ariko ntitubyumve.

Mu nama abantu bagomba kuganira ku bintu bitandukanye, ariko iy'ubuzima yo, iba ari inama yo kwitondera kubera ko kuba bagiye gufata ingamba zo kurokora ubuzima bw'abantu.

Igihe cyose tugiriwe amahirwe yo kuba twabona amazi meza ni byiza ko tuyabungabunga, tukayakoresha neza kugira ngo icyo bayaduhereye tugikore neza aricyo cyo kugira isuku mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ni byiza ko mu midugudu dutuyemo haba harimo ingo zabugenewe zikorerwamo serivisi zo guha abana ibyo kunywa kugira ngo barwanye igwingira ryabo.

Buri kigo runaka kigomba kuba gifite amahugurwa cyateguye buri gihe cyangwa buri mwaka kikavuga ku bijyanye n'ibyo gikora ndetse n'uburyo bateza imbere imirimo yabo.

Byiza ko ababyeyi bagirirwa umunsi bagatumirwa bakaza bakaganiriza ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kugira ngo bagire icyo babimenyaho ndetse bazabyigishe n'abana babo.

Abayobozi cyane cyane bashinzwe ibintu runaka bagomba kuba bambaye amakarita yerekana ibyo bakora ndetse na serivise batanga kugira ngo uza abagana ahite amenya aho abashakira.

Abana ni beza cyane cyane iyo twabitayeho, tukabereka buri kimwe, tukabakunda, bituma bakura bishimye kubera ko umwana iyo yabonye byose akeneye nta cyamubuza kwishima.

Ni byiza ko abana batozwa urukundo bakiri bato, bakamenyana, bakaba inshuti, bakajya basangira ibintu byabo byose, ari nta bugugu bubagaragaraho kandi bagahora bishimye.

Ni byiza ko, dukoresha amazi tukayasaranganya igihe yabaye make, kugira ngo umuco w'isuku tuwukomeze, kandi dukomeze duse neza haba ku mubiri ndetse no mu buzima bwacu.

Ni byiza ko hagomba kuba abakangurambaga bajya no mu midugudu bakigisha abaturage ibigendanye na serivisi z'ubuzima bakazimenya neza, kugira ngo bajye bagana ivuriro kandi ku gihe.

Birashimishije kubona abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bicaye batuje bateze amatwi umuntu umwe bari kumva inama bagira ndetse izo nama bamara kuzumva bakaba bateranyiriza hamwe ibitekerezo kugira ngo bamenye icyo bari bukurikizeho imyanzuro irafatwa.

Mubyeyi niba umwana wawe afite ikibazo, ni byiza kumujyana kwa muganga hakiri kare bakamusuzuma bakamenya indwara arwaye ubundi bakamuvura agakira burundu.

Biba byiza kubona abana barimo barakorera isuku imibiri yabo, bishimye kandi ubona ko baguwe neza kubera ko bituma birinda indwara zigiye zitandukanye z'umwanda.

Abaturage niba tugize amahirwe yo kwegerezwa amazi, ni byiza ko tuyakoresha neza tugira isuku twiyitaho n'aho dutuye kugira ngo ntitukarwaragurike.

Umwana wese ukunda kuvoma amazi akayanywa atabanje kumenya niba atetse akunda kurwara indwara zirimo ibicurane ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Ni byiza ko dutoza abana imirimo yose, bakiri bato kugira ngo bazakure bazi gukora kandi neza kugira ngo igihe gikwiriye bazajye babyikoresha, ari ntawe ubahagaze hejuru.

Iyo abana batoya bafite umuco wo gukaraba intoki n'amazi meza, bishimisha buri wese kubera ko ntamuntu bitashimisha kubona umwana we yita ku isuku ye kandi ntawe umubwirije.

Mu buvuzi habaho umunsi mukuru, cyane cyane abaganga bakunze kuwukora kugira ngo bishimire ibyagezweho, kandi bakicara hamwe bagasangira bakareba n'ibitaragezweho bakabikosora.

Biba bishimishije kubona abagabo bakuze ndetse n'ababyeyi bicaye mu mahugurwa, bafite uducupa tw'amazi, ndetse banateze amatwi ikiganiro bari kumva.

Si byiza ko umwana tumuha ibintu biremereye akaba yajya kuvoma kubera yuko ashobora kubimena ibindi bakabimwibirayo tujya tumuha ibingana n'ubushobozi bwe.

Abantu benshi bicaye ubona ko bari mu mahugurwa iyo bahuje ibitekerezo bivamo ikintu gikomeye cyane, kandi icyo kintu gikomeye iyo gishyizwe mu ngamba kibageza ku iterambere.

Si byiza ko twohereza abana mu bishanga kuvomamo kuko bo bashobora kuzana amazi yanduye kandi ayo mazi bo ntabwo baba bazi ubwenge ku buryo batanywa iyo inyota ibishe barayanywa kandi aba yanduye cyane.

Ababyeyi iyo bajyanywe ahantu hamwe bari kwigishwa, uba ubona ko baba bakurikiye kugira ngo bumve ibyo bigishwa, rero iyo babitahanye banabyanditse birabafasha cyane kuko iyo babyibagiwe barongera bagasoma.

Iyo ubonye abantu bateranye nk'uku cyane cyane urubyiruko, utekereza ko bagiye mu bikorwa by'urubyiruko. Urubyiruko kubera ko ari imbaraga z'igihugu, ibi bishimisha abantu kubibona bifatanya nk'uku hari igikorwa bavuyemo.

Niba ababyeyi bahawe amazi akabegera ni byiza ko bita ku isuku y'ibikoresho byo mu rugo, bakayikurikirana neza kugira ngo mikorobe ziva mu mwanda bazitsinde burundu.

Iyo ababyeyi cyangwa abaganga bajyaga kuvura mu gihe cya Corona Virus, babanzaga kwipfuka ahantu hose cyane cyane kuba bambaye udupfukamunwa kugira ngo birinde ko virusi yakwinjira mu mubiri wa bo.

Ni byiza ko aho dutuye hegerezwa serivisi z'ikingira kugira ngo ababyeyi babyegerezwe kandi mu buryo butabavunnye, bajye babona iyo serivisi kandi ku gihe.

Ni byiza ko twumva inama tugirwa na muganga igihe yatwicaje hamwe tugomba kumutega amatwi tukamwumva tukumva icyo ashatse kutubwira kuko ari ingenzi ku buzima bwacu.

Iyo abagabo n'abagore bicaye batekereza ku mishinga runaka, bahava bafashe imyanzuro ikomeye, kandi ibitekerezo byabo ntabwo biba byapfuye ubusa ahubwo nyuma babishyira mu bikorwa.

Ni kenshi uzasanga abayobozi bateraniye hamwe baba bafite uducupa tw'amazi cyangwa se ibirahure bari kunywa nka vino kugira ibitekerezo bigumye biza byihuse.

Si byiza ko mu bitaro cyane cyane ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bwo mu mutwe, hagomba kuba hateretse ibikoresho by'ikoranabuhanga, kubera ko umurwayi bishobora kumufata akamenamo kimwe.

Abaturage begerejwe amazi, bagomba kuyakoresha neza kandi nanone iby'isuku bakabikurikirana cyane kubera ko aricyo kiba cyatumye leta iyabegereza.

Iyo ugeze kwa muganga, babanza kugupima ngo barebe niba nta muvuduko w'amaraso ufite, igihe bakubonyemo ibimenyetso byawo. Niyo mpamvu muganga, akwambika kano gakoresho kugira ngo abanza urebe niba, nta muvuduko urwaye.

Ni byiza kubona umubyeyi n'umwana we bishimye, baseka, basabana, kubera ko bituma umwana akura neza mu mitekerereze kandi akazakura yumva akunzwe n'ababyeyi be.

Ni byiza ko umuntu wihebye, wigunze, tubona ko afite ibibazo, tumwegera tukamuhumuriza. Kubera ko umuntu wigunze, bimuviramo n'izindi ndwara zishobora gutuma yiyahura.

Hari abantu benshi baba bafite ikibazo cyo mu mutwe, ugasanga akantu kose karabakomeretsa bakaba barira amarira menshi kandi hari ubuvuzi bubagenewe batabonera ku gihe.

Ni byiza abantu b'abagabo ndetse n'abandi b'abagore, kwicara hamwe bakajya inama y'ikigomba gukorwa, mu mushinga wabo. Kuko iyo uganiriye ukagira ibitekerezo, ni bwo umenya icyo gukora.

Iyo umugore yafashe ijambo arimo arabwira abandi bantu, si byiza ko tumuvugiramo kuko buriya abagore na bo bakunda ibyubahiro, cyane cyane iyo babonye ubuyobozi.

Ni byiza ko ababyeyi bicara hamwe bagatekereza icyateza ingo zabo imbere cyane cyane mu cyo twise utugoroba tw'ababyeyi kubera ko ariho bacokera ibibazo byo mu ngo zabo bikahava bikemutse.

Biba byiza iyo ubonye umuntu abayeho ubuzima bwiza yishimye kandi iyo umurebye uba ubona rwose anyuzwe n'ubuzima abayeho. Iyo ufite ubuzima bwiza nta ndwara ufite uba wumva umeze neza nawe.

Birakwiriye ko mu ngo zacu, tugomba kujya dufata umwanya tukaganira, nk'abagize urugo, cyangwa tugahamagara imiryango ikicara hamwe tukiga, tugafata inyigisho, tugasabana ndetse tugakora n'ibindi.

Buri mwaka buri muryango uba ufite umunsi wizihirizaho isabukuru yawo, ni kuri ubwo buryo rero, iyo abantu bakoze cyangwa bizihije uwo munsi wabo baba bari bufate n'amafoto y'urwibutso.

Nta kintu gishimisha nko kubona umubyeyi w'umumama, ahagaze imbere y'abantu bakomeye ubona ko bakize, arimo arababwira ibitekerezo bye nyamara bakamutega amatwi, bakaba babyumva.

Ni byiza ko igihe umuntu yafashe umwanya akagira icyo abwira abandi, bagomba gutuza akagira icyo ababwira nk'uko yabiteguye si byiza kumuvugiramo kuko bituma atababwira neza ibyo yateguye byose.

Cyane cyane abantu baba bafite ibibazo byo mu mutwe bakunze kugaragarwaho no kwigunga kubera ko aba yumva nta w'undi wamufasha kandi yumva ashaka kubaho ubuzima bwe wenyine, niyo mpamvu ari byiza ko twabegera igihe tubabonye tukabahumuriza.

Buri mwaka isi igira umunsi wo kwizihiza mu kwezi kwa cumi, tariki ya cumi ubuzima bwo mu mutwe, bagakurikirana abantu bafite ibyo bibazo ndetse bagatanga n'amahugurwa kugira ngo bajye babajyana kwa muganga.

Leta y'u Rwanda ifatanyije na polisi buri mwaka ishishikariza abantu ba baturage kurwanya ihohoterwa, kubera ko aba ari inshingano yabo kugira ngo babyirinde gukurikiza inama bahawe.

Mubihe byo kwibuka ushobora gusanga hari abantu benshi basa n'abataye umutwe kubera ko bibutse amateka y'ibyo banyuzemo bikabatera igikomere cyo kwibuka ibyo byose ni byiza ko rero tubasindagiza tukabafata ku mugongo.

Si byiza kubyara indahekana kubera ko hari igihe kigera ukabura icyo ureresha abo bana kandi byari bikwiye ko wabyara abo ushoboye kurera. Niyo mpamvu dushishikarizwa kubyara abo dushoboye kurera kugira ngo ubuzima bwabo tubukurikirane.

Abayobozi ni byiza ko bita ku buzima bwa bo mbere yuko bita kubwa bandi kubera ko iyo bahawe amahugurwa kubijyane n'ubuzima bwo mu mutwe na bo bigomba kuba ari bazima.

Iyo umuntu yigunze yihebye ari wenyine ni byiza ko tumwegera tukamuhumuriza kugira ngo yumve ko anyuzwe kandi yumve ko atari wenyine nabona urukundo rwacu yumve ko ashobora kongererwa iminsi yo kubaho.

Iyo umubyeyi abona ko ubuzima bwe bumeze neza, aba yumva abayeho yishimye, kandi akaba yumva ntakindi cyamurutira kuba yahora yishimye.

Ni byiza ko abantu babaho bishimye cyane cyane aba babyeyi bakajya berekwa amashusho y'udukinisho kugira ngo bumve batekanye kandi banyuzwe.

Biba biteye agahinda kubona umugabo waturitse akarira kandi bavuga ko amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, niyo mpamvu igihe wamubonye, ntukajye umunyuraho ahubwo jya utekereza ko afite ikibazo gikomeye.

Mbere y'uko muganga avura umurwayi, hari ibipimo abanza kumufata kugira ngo arebe icyo arwaye. Iyo amaze gusanga arwaye, aba afite imiti igiye itandukanye, akoresha kugira ngo amuvure.

Muganga aba azi neza ibyo akora iyo afashe ibyuma akabishyira mu kanwa k'umurwayi, hari icyo aba ashaka kubikoresha ariko icy'ingenzi ni uko aba agiye nko gukura amenyo.

Iyo umuntu afite amenyo mazima, si byiza ko ayashyiramo icyo abonye cyose kuko ishobora kuyangiza bigatuma arwara kandi yari muzima yumvaga ameze neza.

Ni byiza ko kwa muganga bagufotora bakareba ikibazo amenyo yawe afite, hanyuma bakagushakira imiti ikwiriye igihe basanze atari mazima cyangwa afite ibindi bibazo bakaba bayakura.

Ahantu iyo hatuje, haba hakenewe kugira ngo umurwayi nahaza aze kuharuhukira .Kandi ibi bifasha umurwayi kuba yamera neza ndetse akanavurwa neza.

Iyo umurwayi bagiye kumukura iryinyo, babanza kumutera inshinge nyinshi mu kanwa ari zo bita ikinya kugira ngo nibamukura ntaze kubyumva ahubwo aze kubyumva.....

Ni byiza ko dukorera isuku amenyo yacu kenshi, cyane cyane mu gitondo tubyutse, saa sita tumaze kurya ndetse na nimugoroba tugiye kuryama kugira ngo amenyo yacu akomeze arindwe neza.

Indwara zo mu kanwa zemerewe kuvurwa na muganga gusa, ntawundi wemerewe kugusuzuma kandi ubizi neza ko atabyigiye, ashobora kuba yakwangiriza umubiri akaguteza n'izindi ndwara.

Ni byiza ko igihe twegerejwe serivisi z'ubuzima, tugomba kuzitabira cyane cyane iyo habaye nk'umunsi mukuru wahariwe ubuzima bwo mu kanwa, igihe tuzi abafite ibyo bibazo tugomba kubajyanayo.

Mbere yuko muganga avura indwara zo mu kanwa abanza akamurikamo n'itara rye akareba ikibazo umurwayi afite hanyuma akamukurikirana agahita amuvura.

Iyo muganga amaze kubona ko umurwayi iryinyo rye rikwiriye kuba ryavanwamo, abimukorera atazuyaje kubera ko ari ibintu aba yarigiye, afata ibikoresho byabugenewe agahita arimukura.

Si byiza gukuza amenyo ikintu icyo ari cyo cyose, kirimo nk'akadeyi n'ibindi, ahubwo ahabugenewe ni ukujya kwa muganga, bakaba ari bo badukurikirana bakatuvura neza.

Ni byiza gutoza abana bakiri bato isuku y'amenyo, kubera ko amenyo iyo ameze nabi bishobora gutuma ubuzima bw'umuntu buhagarara kubera ko ari muri bimwe biryana cyane k'uyarwaye.

N'ababyeyi bakuze cyane ni byiza ko tubakoresha imyitozo ngororamubiri yoroheje, ihwanye n'ubushobozi bwabo nko kuba twabarambura amaboko imitsi yabo na bo ikarambuka igakora neza.

Ni byiza ko umuganga cyangwa undi uwo ari we wese, aha serivisi umurwayi, zirimo serivisi za siporo ngororamubiri kugira ngo umubiri we umere neza.

Umuntu wagize ikibazo akaba atabasha kwigenza n'amaguru, ni byiza ko tumusindagiza cyane cyane ufite akagare kugira ngo tumugeze iyo agomba kujya.

Ni byiza ko abantu bafatanya urugendo barimo, ndetse bakaba n'inshuti kugira ngo uzananirwa undi azabashe kuba yamusindagiza bakomeze urugendo.

Gusoma ibitabo nabyo biri mu bintu biruhura mu bwonko bigatuma abantu bumva baruhutse kandi imitwe yabo igakora neza igihe bumvaga bafite siteresi batewe n'akazi cyangwa ibindi bintu.

Mbere y'uko uvura abantu ni byiza kubanza kubaha udupapuro twerekana uko bari buze kugenda bakurikirana, kubera ko hari abatanga abandi bitwaje ibyubahiro byabo.

Ni byiza ko buri wese akora imyitozo ngororamubiri buri munsi kubera ko ibingibi bituma imirimo yindi yerekejeho amaboko ayikora neza kubera ko mu mitekerereze aba ameze neza binyuze y'uko umubiri we uba waruhutse bihagije kandi ukanakora imyitozo ngororamubiri.

Burya abakambwe na bo baba bakeneye kwitabwaho kugira ngo bumve ko bashyigikiwe kuko iyo bashyigikiwe ubuzima bwabo baba bumva ko batari mu isi ya bonyine ahubwo bafite abandi babareberera.

Ababyeyi nabo babyibushye ni byiza ko bakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo imibiri yabo igabanuke kuko ibi biteza umuvuduko w'amaraso n'izindi ndwara z'ibyuririzi.

Iyo ugeze mu isoko ugiye guhaha ibintu bitandukanye harimo imbuto biba byiza iyo witegereje neza ugashishoza kugira ngo ujyane ibintu bifite ubuziranenge.

Gufatanya imyitozo ngororamubiri biba ari byiza na byo, kuko bituma abayikora batarambirwa kandi bakayikora bishimye, niyo yaba ari umukecuru ni byiza ko akora siporo kugira ubuzima bwe bube buzima.

Ni byiza ko umuganga asobanurira umurwayi uburyo azakoreshamo imiti kugira ngo atazayikoresha nabi ikaba yamuviramo izindi ndwara, akamwereka uburyo bwiza bwo kuyikoresha n'isaha nziza yo kuyinywa.

Ntabwo ari byiza ko umuntu afata umunsi wose akirirwa abukoresha imirimo yo gutekereza cyane, kubera ko iyo ubwonko bumaze kunanirwa biba byamuviramo indwara zigiye zitandukanye zirimo iza siteresi.

Mbere yuko dusezerera umurwayi twamaze kumuha imiti, ni byiza ko tumwereka cyangwa tukamwigisha uburyo iyo miti azajya ayikoresha mu rugo rwe kugira ngo atazayikoresha nabi ntakire.

Iyo ugeze mu bukwe usanga abasaza bashaje cyane aribo baba bicaye mu myanya y'imbere, kubera ko aribo baba bafite ijambo n'umwanya byo gukurikirana imihango n'imisango by'ubukwe.

Ni byiza ko abantu bajya inama ku mikoreshereze y'ibintu byose kubera ko haba hariho amabwiriza ya buri kintu nuko gikoreshwa, n'igihe gikoreshwa, n'ingano ukoresha.

Ni byiza gusobanurirana ibintu mbere yuko ubikora uhubutse, ukabanza ukagisha inama ibyo udasobanukiwe ukabisobanuza hanyuma ukaza gukora igikwiriye mu gihe nyacyo.

Kujya inama no gusobanurirana, ni byiza ku muryango kugira ngo bamenye imikoreshereze y'ikintu runaka ndetse banunge ubumwe, mu bitekerezo bitandukanye.

Imyitozo ngororamubiri irambura amaboko burya nayo irafasha ku muntu ukora siporo kubera ko iyo urambuye amaboko nabwo hari imitsi irambuka bigatuma amaraso agenda neza mu mubiri.

Ni byiza ko mu rugo habaho gufashanya mu gutegura imbuto zigiye zitandukanye, harimo inyanya, imboga n'ibindi bakabikurikirana kugira ngo barye indyo yuzuye.

Ni byiza ko umuganga asindagiza umurwayi we paka amugejeje aho agomba kujya, kubera ko bitaba byiza none kuvura umuntu ugahita umurekera aho ngaho ari nawe uri bumurwaze.

Iyo ababyeyi bishimira ibikorwa by'ubuhinzi usanga iyo bavuye guhinga bifotoreza hamwe bamanitse udukoresho bakoresheje iyi foto ikaba igaragara neza mu maso y'abantu.

Ni byiza ko umuryango uba hamwe, ukajya uganira, ukishimana kubera ko abana bakuriye muri uru rukundo bashobora kuziga bakajya banatsinda ndetse bagakora n'ibindi bikorwa by'iterambere kubera ko ubwenge bwabo bukora neza.

Ni byiza gusobanurirana cyane cyane ku bagize umuryango, kugira ngo umuntu najya kunywa imiti abanze amenye neza ingano y'imiti ari bunywe kugira ngo itamuzahaza.

Gukora imyitozo ngororamubiri irambura amaguru irafasha cyane kuko usanga hari abantu bahinamiranye kubera kudakora siporo, nyamara ari ibintu byoroshye cyane kuba twabikora tugakiza ubuzima bwacu.

Umumama uri kuvuga akoresheje indangururamajwi aba yumva yifitiye icyizere kubera ko aba ari imbere y'abantu, kandi ari umuyobozi, niyompamvu tugomba kumutega amatwi tukumva ibyo atubwira.

Ni byiza ko muganga yigira inshuti n'umwana igihe agiye kumuvura, ibi bituma amuvura mu buryo bworoshye kubera ko bisanzwe bizwi ko, abana bagorana mu kubaha serivisi z'ubuvuzi, bisaba ubundi bwenge.

Igihe amahugurwa runaka arangiye, hagomba gufatwa ifoto y'urwibutso, kugira ngo bigaragare ko hari abayitabiriye, kandi n'icyavuyemo umusaruro aribo bazabikurikirana.

Ni byiza kwita ku barwayi kubera ko burya hari abarwayi baba bakeneye kwitabwaho kugira ngo uburwayi bwabo bukire nyamara ibyo bakabibura bikarangira bubakomeranye bikabarembya bakaba babura n'ubuzima.

Dushishikarizwa byinshi birimo nko kuba twarya imbuto zitandukanye kugira ngo imibiri yacu ikomeze kugenda neza, kandi ikore neza kubera ko nabyo bituma tubaho neza.

Byamenyekanye cyane ko mu minsi yashize mu Rwanda ari bwo hinjiye indwara y'Ubushita bw'Inkende, iyingiyi yazahaje abantu benshi abandi babura ubuzima, ariko hari ingamba zo kuyirwanya zaje nyuma.

Isi yizihiza buri mwaka kurwanya SIDA. Abantu bakabyina, abandi bicaye babareba, nyuma bakaza guhabwa ikiganiro kubigendanye n'uwo munsi.

Umuganga akunze gukoresha urushinge ibinini ndetse ni byiza ko agomba kuba afite n'utundi dukoresho harimo nk'ikaramu n'ibitabo byo kuba yakandikamo indwara.

Mu gihe cya coronavirusi hariho amabwiriza agiye atandukanye, hari nko gukaraba intoki, kwambara agapfukamunwa, gusigamo metero hagati yawe n'undi, kwirinda ku kujya ahantu hateraniye abantu ndetse n'ibindi.

Umurwayi wavunitse ukuboko, muganga wenyine aba azi uburyo aramwitaho, akaba yakoresha barafu cyangwa ibindi byabugenewe, kugira ngo akire iyo ndwara y'imvune.

Ntako bisa nko kubona abantu bambaye imyambaro isa, bari ahantu hamwe bahuje umutima n'ubwenge, bari ku gikorwa runaka, iyo ubirebye biba bisa neza cyane ku ifoto.

Ni byiza ko abantu bajya mu mahugurwa bagomba kuba bafite n'amakayi bandikamo, kugira ngo ibyo bumvise bitaza gusigara aho bari bicaye, ahubwo bagende babinoze ujye mu migambi bazabikore nka ababyumvise.

Burya ugenzuye neza usanga gutera urushinge atari ibya bose, kubera ko uwabyigiye ni we wenyine ugomba kuba azi ubuhanga burimo kuko ari abantu benshi batinya inshinge muganga ni we ubu uzi uburyo bwiza bwo kurumutera.

Ni byiza gukorera ahantu hasukuye hari ibirahuri birebererwamo wahagera ukabona nyine ko ari ahantu hasirimutse kubera yuko serivisi zahatangirwa nazo zisobanutse.

Ahantu hose hari ikigo kitwa isange wani sitopu senta, hagomba kuba hari abayobozi bashinzwe gukurikirana ubuzima ndetse n'ibindi byaha byahakorerwa byose.

Iyo ku bitaro bya Butaro basoje serivisi zo kuvura abarwayi, bafata ifoto y'urwibutso bagiye gutaha akazi karangiye kandi ibi ngibi bituma basabana kenshi kuko bibashimisha.

Mu bitaro kwa muganga hagomba kuba hasashe neza kugira ngo birinde umwanda kubera ko umwanda na wo uri mu bintu bitera indwara z'ibyuririzi zishobora kwica umurwayi.

Iyo ugeze kwa muganga ukabona hasukuye, uba wumva nawe rwose nta kabuza bari buguhe serivisi nkuko uzikeneye, ariko nanone si byiza ko abaganga batererana abarwayi kandi barembye.

Umurwayi ugendera mu kagare, agomba kuba afite umuherekeza kuko ntabwo yakitwaramo ngo bishoboka. Ahubwo tugomba kumwitaho tukajya tumuherekeza ntagende wenyine kuko bitashoboka.

Ni byiza ko kwa muganga hagomba kuba hari robine y'amazi kugira ngo igihe cyose umuntu akeneye gukaraba, akarabe intoki n'amazi meza n'isabune kuko aba yiriwe akora ahantu henshi kandi hari, hari amamikorobe.

Ni byiza ko muganga yita ku murwa urembye cyane kugira ngo adasiga ubuzima bwe kandi byashobokaga ko iyo umurwayi ageze mu biganza by'abaganga agomba gukira.

Iyo ugeze mu Mujyi wa Kigali, uhasanga mediya soru farumasi, iherereye i Kanombe, iyo ngiyo iba irimo imiti igiye itandukanye, ku buryo buri bwoko bw'umuti wakenera wawubonamo.

Abantu bagize amahirwe yo kwegerezwa iki kigo nderabuzima cya Rwerere, bagomba gufata serivise zahagenewe kandi igihe bumva batameze neza bakaba ariho bihutira guhita bajya.

Ni byiza ko igihe umurwayi yarembye cyane tutamutindana na hato, tukamujyana kwa muganga bakamukurikirana akiri muzima kuko akenshi dukunze kugira ikibazo cyo kujyana abarwayi barengereye, bagapfira mu biganza by'abaganga.

Mu cyumba cyo gukoreramo imyitozo ngororamubiri uhasanga ibikoresho byose by'ingenzi, harimo ibyo banyonga, ibyo bagenderaho biruka n'ibindi bigiye bitandukanye, biterwa n'icyo ushatse gukoreraho aba aricyo ujyaho.

Ni byiza ko ababyeyi twitabira serivisi zo gupimisha abana ibiro kugirango tumenye uko bahagaze, tumenye imirire yabo uko ihagaze kugira ngo tumenye icyo duhindura kuri yo niba ari indyo yuzuye tube twayikurikiza.

Agatanda k'abarwayi ndetse n'ibindi byuma bipima biba ari byiza ku kumurwayi kugira ngo aruhukireho kandi bakurikirane ubuzima bwe neza, mbere y'uko bamuha imiti, umwiteho kandi yumve anyuzwe.

Iyo ugeze ahantu ugasanga harasukuye muri ubu buryo, hari imitako y'amabara agiye atandukanye hari n'intebe zisa neza, uhita uhabona isuku ukumva birashimishije kubera ko asa neza.

Buri mudugudu wa kabaye ufite ikigonderabuzima kiwegereye kugira ngo ubuzima bwabo bukurikiranwe neza kandi kugihe batarinze gukora ingendo nyinshi.

Iyo ugeze mu karere ka Nyagatare uhabona ibitaro ndetse n'ikigo nderabuzima cya Tabagwe gikunze kujyaho abarwayi bagiye batandukanye batararemba cyane ngo babe bakoherezwa mu bitaro bikuru.

Kwa muganga haba hari ibikoresho byinshi birimo insinga zigiye zitandukanye, ziba zicomekanye n'ibikoresho bivura abarwayi, ariko haramutse habaye inkongi y'umuriro baba barabigeneye uburyo bahita bawuzimya byoroshye.

Ni byiza ko kwa muganga hagomba kuba hari icyapa kiyobora abantu, urugero aho binjirira, aho basohokera, aho bavurira indwara zo mu mutwe, aho bavurira izo mu kanwa, n'aho bavurira indwara zananiranye ndetse n'ibindi.

Ibikoresho bigiye bitandukanye bibarizwa kwa muganga byose si ko tuba tuzi icyo bikora, keretse uri muri deparitoma ibikoresha we abasha kumenya icyo bizakora.

Ahantu henshi hakunze kuba hari amazu asukuye agerekeranije, aho ngaho abenshi tuhita mu mujyi kubera ko nta nzu zireshya uku zipfa kugera mu byaro bigiye bitandukanye.

Ahantu habikwa amaraso kwa muganga hagomba kuba hari isuku ishoboka yose ndetse hagakorwa buri kimwe kugira ngo hirindwe kuba hagira ikintu kiyinjira cyangiza ayo maraso.

Muganga we agomba kuba afite ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo abe yabyifashisha akurikirana indwara z'abarwayi mu buryo butandukanye, akaba yahera ko abavura.

Iyo ugeze ahantu hateye udutebe twiza nk'utu, hasukuye nk'uku uhita utekereza serivisi zihakorerwa, ariko akenshi kubera ko hari agatanda k'umurwayi ugahita wibuka ko ari kwa muganga.

Mu ngo zacu hagomba kuba hari isuku, hari intebe ziteye neza ku buryo umuntu wese uhinjiye abona ko ari ahantu hasa neza nta kavuyo, nta rusaku n'ibindi byose byatuma ahantu hadasa neza.

Biba ari byiza kubona ahantu hasukuye hari utuntu tw'amabara agiye atandukanye, ibirahure bisa neza, ubona ko hashimishije kuba wahareba kubera ko isuku yonyine yaho ishobora gutuma uhakunda.

Iyo umurwayi agejejwe kwa muganga nta kindi bakora usibye kubanza kumusuzuma, babona uburwayi bwe bukomeye bakamunyuza no mu byuma, kugira ngo bakurikirane ubuzima bwe maze babone kumuvura.

Ni byiza ko buri bitaro bigomba kuba bifite inzu y'ababyeyi, ni ukuvuga ngo inzu bashobora kuba babyariramo cyangwa bakabapima ngo barebe inda yabo aho igeze.

Kwa muganga ndetse n'ahandi hose, inyubako zaho zigomba kuba zimeze neza. Banafite aho imodoka ziparika heza, banafite urukarabiro, ndetse hanasa neza mu mbuga yaho.

Ni byiza ko ahantu hegereye kwa muganga ukinyinjiramo haba hari ibyapa byanditseho n'amazina ya serivisi ugiye kujyamo kugira ngo bikuyobore.

Ni byiza ko ahantu hatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hagomba kuba hari igitanda umurwayi ajyaho igihe bari kumusuzuma kugira ngo babashe kumuvura ari cyo aryamyeho.

Ahantu abarwayi bavurirwa ntabwo hakagombye kuba hari umwanda, uhubwo hagomba kuba hari isuku ndetse n'ibitanda byiza abarwayi baryamaho ubona ko bifite isuku.

Iyo imirimo yo gukora muri laboratware irangiye hari ubushakashatsi bwagezweho cyangwa hari ikintu cyavumbuwe abantu bagomba kwishimira ibyo bagezeho bakifotozanya.

Inzira zijya kwa muganga cyangwa ku bitaro iyo ugezemo imbere ziba zisa neza kuruhande rwazo hari ubusitani buteye neza ndetse n'ibyapa bigenda biyobora umuntu kugira ngo amenye icyumba yinjiramo.

Iyo ugeze kwa muganga ikintu kiba gisa neza cya mbere n'ibitaro ukuntu biba bisa ndetse na parikingi zisa neza, cyane cyane hakaba hari n'imikindo ituma hagaragara neza n'ubusitani bwiza.

Iyo ugeze ahantu ukabona inyubako nziza zimeze uku ndende, kenshi uhita utekereza ko ari mu mujyi, nyamara biba bishoboka ko ahantu hose na ho hakubakwa inzu ndende.

Zimwe mu nyubako zigaragaza ko ahantu ugeze ari kwa muganga zikunze akenshi kuba zisize amabara y'umuhondo ndetse n'ubusitani bwiza ubona ko bumeze neza.

Nta cyiza nkokokubona ahantuhari gusa neza hatatse hari ibirahure bisa neza hari amatapi yicyatsi ndetse n'ibindi bikoresho ubona ko ari byiza, iyo uhageze nawe ushobora kuhishimira.

Buri bikoresho byose biba kwa muganga si ko aba ari ibitanda kuko ibyinshi biba bimeze nk'ibitanda by'abarwayi ariko hari ibitanda biba bikoze mu ntebe kuburyo iyo bashatse bakigira intebe cyangwa igitanda.

Niba umurwayi yavunitse cyangwa uwo mwajyanye mu myitozo ngororamubiri akavunika, ni byiza ko umwitaho mu buryo bworoheje, ukaba wamuzirikira ku mvune.

Si buri bitaro byose bigira sikaneri kubera ko iki cyuma kirahenze cyane kandi ntabwo kijyamo uwo ari we wese ahubwo uwishoboye ni we ukunda kukijyamo kugira barebe uko ubuzima bwe bumeze.

Munyarwanda nawe munyarwandakazi ndetse n'undi uwo ari we wese, ni byiza ko ashishikarira kunywa amazi cyane, kubera yuko umubiri udafite amazi urwaragurika mu buryo bworoshye.

Abakobwa nabo bashishikarizwa gukora imyitozo ngororamubiri, kubera yuko atari iy'abasore gusa. hubwo buri wese ufite umubiri kugira ngo ukore neza, agomba gukora imyitozo ngororamubiri.

Burya abaganga na bo bagira ubakuriye ubaha masomo akabigisha uburyo bavura ndetse n'uburyo bakwita ku barwayi bakabaha serivisi nziza mbere y'uko bajya mu kazi.

Igihe cyose bazanye umurwayi kwa muganga yahuye n'impanuka zitandukanye zirimo nko kuba yavunika, muganga aba afite uburyo ari bumwiteho bwihariye kugira ngo iyo mvune ikire.

Ni byiza kujya kwa muganga igihe twumva twavunitse cyangwa twagize ibikomere bitandukanye, kubera ko kwa muganga ariho babikorera isuku bakabidoda cyangwa bakaba bashyiraho igipfuko.

Igihe ugize impanuka ukavunika ivi, ni byiza ko wihutira kujya kwa muganga bakagusuzuma cyangwa bakagusigiraho pomade kugira ngo ukomeze ugende kandi ugeraho ugakira.

Ni byiza ko dukora imyitozo, tugakangura imibiri yacu, kubera ko hari igihe turwara indwara zirimo imivuduko y'amaraso, byaraturutse kuko nta myitozo ngororamubiri twakoze.

Ni kenshi dushishikarizwa kugorora imibiri yacu, dukoresheje imyitozo ngororamubiri. Ushobora gukina umukino uwo ushatse ndetse ukanagorora umubiri atari ngombwa ko ukina ahubwo wiruka se cyangwa ukora ibindi.

Iyo umurwayi avunitse bikabije ukuguru, ajyanwa kwa muganga babona bitakira, agahabwa insimburangingo, akaba ariyo akoresha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ntabwo ari ibya buri muntu wese kuba yashyirwa muri sikaneri agasuzumwa kubera ko umurwayi byanzuwe ko anyuzwa muri sikaneri bamuca amafaranga menshi.

Rubyiruko namwe bantu bakuru, turashishikarizwa gukora imyitozo ngororamubiri kubera yuko imibiri yacu imera neza iyo tumaze gukora iyi myitozo.

Igihe twagiye ahantu hari ibikorwa runaka bitandukanye hashobora kuba haberamo impanuka, ni byiza ko tujyana n'abantu b'abatabazi b'ibanze kugira ngo uwuza kugiriramo ikibazo babe bamukurikirana byoroshye.

Mbere y'uko abaganga batanga serivisi zisa n'iziremereye kwa muganga cyane cyane nko kubaga, bagomba kubanza kujya inama bakareba uburyo uwo murwayi ari bubagwe kandi ntabure ubuzima.

Kwa muganga hagomba kuba harimo ibyuma cyanecyane ibipima umutima w'umurwayi uko uhagaze kubera ko ibi bifasha muganga kureba uko umutima utera akamenya igikurikiraho.

Tujye twihatira kunywa amazi kubera ko twamaze kumenya ko amazi ari ubuzima. Murabizi neza ko bibiri bya gatatu by'umubiri aba ari amazi, ni yo mpamvu ari byiza ko tuyanywa kenshi.

Na none byibura buri muntu asinyiwe kuba yanywa litiro ebyiri ku munsi z'amazi, niba ashaka ko umubiri we ukora neza, akirinda indwara z'impyiko ndetse n'izindi ziterwa no kutanywa amazi ahagije mu mubiri.

Kwihambiraho umugozi ukarambura amaboko cyane, cyane cyane umugozi ureguka nabyo biri mu myitozo ngororamubiri yarambura imitsi y'amaboko yawe.

Buri mategeko yose ya Covid cumi n'icyenda yagombaga gukurikizwa muri icyo gihe harimo nko kuguma mu rugo, kuba wakambara agapfukamunwa, koga ibiganza kandi kenshi no kudasuhuzanya no kutegerana n'ibindi byose.

Kurambura amaguru cyane na byo ni imyitozo ngororamubiri myiza, ishobora gutuma imitsi y'amaguru irambuka kandi igakora neza, maze amaraso agatembera mu buryo bwiza.

Kwa muganga hagomba kuba hariyo ibyuma bigiye bitandukanye, kuko bikoreshwa mu bintu bigiye bitandukanye. Ni ngombwa rero ko buri ndwara ikeneye kuba umurwayi yanyuzwa mu byuma, icyo cyuma kigomba kuba gihari.

Ni byiza ko igihe cyose umuntu yumva ababara ukuguru, agomba kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo bamusuzume, barebe niba nta zindi ndwara z'ibyuririzi zaba ziri muri uko kuguru.

Iyo umuntu anywa amazi ubuzima bwe bukunze kuba bwiza. Kubera yuko igice kinini cy'umubiri kigizwe n'amazi tunywa, ni yo awutunze.

Kimwe mu bintu bitera ubwoba ni ukwinjira kwa muganga ukajya mu cyumba, ukabonamo amatara y'ubwoko butandukanye utari usanzwe ubona, ibitanda n'ibyuma biba birimo birasakuza.

Iyo umuntu amaze gukora siporo biba byiza ko agomba kuba afite imbuto zirimo imineke harimo ibinyomoro harimo amaronji ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ni byiza ko kwa muganga bagomba kuba bafite icyumba bakoreramo imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bw'abarwayi bukomeze gukurikiranwa neza kandi ku gihe, umurwayi atararemba.

Buri siporo iba ifite igice cy'umubiri igorora. Kubera ko uyikoze bitewe n'uko yayikoze, ashobora kurambura ingingo ze z'umubiri kubera ko ariko yabishakaga.

Imiti myinshi igiye itandukanye irimo iyivura indwara z'amenyo, irimo n'indi igiye itandukanye ivura bitewe n'icyo umuntu yarwaye.

Buri bitaro bikomeye biba bifite sikaneri kugira ngo igihe umurwayi agize ikibazo cyo mu mutwe ndetse yagaragaje n'ibimenyetso, agomba kuyinyuzwamo kugira ngo bamupime barebe uko ubuzima bwe buhagaze.

Kwa muganga iyo uburwayi bw'umuntu bwakomeye baba bafite ibyuma bacomekaho kugira ngo bumve uko umutima we utera, abandi kugira ngo babyige bafata ibishushanyo bisa n'abantu bakaba aribyo bigiraho.

Ni byiza ko ujyana umuntu wavunitse kwa muganga ku gihe, kubera ko iyo basanze bikomeye bashobora gufata akaguru ke bakagashyiramo sima kugira ngo amagufa arambuke.

Iyo bagiye kugukura iryinyo usanga hari agatebe wicaramo kugira ngo babanze barebe ikibazo ufite, nyuma yaho bakaza kugufasha mu bundi buryo bwabo.

Niba kunywa amazi kenshi ku munsi bitunanira, ni byiza ko tuyanywa nk'abanywa umuti, kubera ko hari abategereza kugira inyota ngo banywe amazi bikarangira batayigize.

Igihe cyose umuntu agize ibyago akavunika mu ivi, agomba gushaka barafu hafi aho akayikoresha, kuko nayo iri muri bimwe bigabanya uburibwe mu mubiri.

Iyo ungeze kwa muganga wavunitse bafata barafu akayishyira ku mvune yawe kugira ibashe koroha kubera yuko ari yo yonyine igabanya uburibwe bw'imvune ukaba wahita wumva ukize.

Buri gikoresho tutazi icyo gikora kwa muganga ntitukagifate ngo tucyangize kandi kiba gifite byinshi gikora, niyo mpamvu kwa muganga hagomba kuba hari umutekano uhagije w'ibikoresho byaho.

Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri buri munsi, tukarambura imitsi yacu kugira ngo umubiri ukomeze ukore neza kuko biri muri bimwe umubiri ukenera buri munsi.

Ni byiza ko buri muntu wese ashishikarizwa kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo, cyane cyane agafata amahugurwa yabyo, kugira ngo abashe kuba yakora iyo miti neza, ayicuruze.

Hari ibicupa byinshi bibikwamo imiti ndetse hakaba hariho n'amagambo yanditse agaragaza ko iyo miti izajya ikoreshwa, kugira ngo uwo murwayi atazajya anywa myinshi ikaba yamurembya.

Ni byiza ko imiti gakondo tuyiha agaciro kandi tukayibika ahabugenewe, kubera yuko ivura, kandi iyo tuyikeneye turwaye, tubasha kuyikoresha, na yo ikatugirira akamaro mu mibiri yacu.

Imiti ya gakondo akenshi iyo yakozwemo ibisukika bakunze kuyishyira mu dupara ahantu hamwe, bakayibika kugira ngo bazayikoreshe bayiha abarwayi.

Hari abantu bahitamo kuba bafata imiti gakondo bakayisekura bakayivanga kugira ngo bakuremo umuti usukika bakawushyira mu dukoresho twabugenewe ngo bajye bawunywa, aho kugira ngo bayifate iyo miti bayihekenye.

Abaganga bashishikarizwa kubika imiti neza ahantu habugenewe kugira ngo igihe ikenewe gukoreshwa, bayikoreshe ariko hari ahantu ibitse hujuje ubuziranenge ku buryo ntacyo yaba.

Imiti gakondo yose ntitukayangize aho tuyibonye, ahubwo tujye tuyisigasira tuyirinde n'abashobora kuba bayangiza kubera ko twamaze kumenya ibanga ryayo ko ishobora gukiza indwara.

Ahantu hose haba hateye ibiti si uko aba ari ishyamba ahubwo hari igihe biba byarimejeje bikaba byaba byinshi ku buryo bifunga inzira yose.

Imiti gakondo myinshi usanga yarahingwaga n'Abanyarwanda bo hambere, bakayihingira mu mirima yabo kubera ko wasangaga bigoye ko umuntu w'umuhinzi yaba adafite ahandi hantu ahinga iyo myaka.

Imiti gakondo yatunganyijwe igashyira mu ducupa tumwe, ni byiza ko ibikwa ahantu heza kandi hatabangamiye abaganga kuba bayishaka bagahita bayibona ku gihe.

Umuntu wahinze ni we ugomba kwita ku bihingwa bye, cyane cyane umuntu iyo ateye imiti gakondo, aba afite ikintu ayikurikiyemo, cyane cyane kijyanye no kuba yazavura indwara z'umubiri.

Abahinzi ba mbere bajyaga bafata umurima wabo munini, bakaba bawuteramo imiti gakondo kugira ngo babe bahanganye n'ikibazo cy'indwara zabateraga kandi batazi iyo zituruka.

Buri muti wose cyane cyane muri iyi miti ya Gakondo uba ufite icyo uvura, niyo mpamvu rero dukwiye kuyibungabunga aho tuyibonye hose kugira ngo tuyikoreshe icyo igomba gukora.

Ni byiza gusigasira imiti gakondo, kubera ko ari yo ivura indwara zitandukanye cyane cyane zananiranye n'izindi tutarinze kuba twajya kwa mugangara.

Hari imiti myinshi igenda ikiza indwara zitandukanye ariko muganga akayiguha ipfunyitse mu tuntu twabugenewe, iyo miti rero tuyifata neza kugira ngo izatuvure.

Hari imiti igiye itandukanye ikorwa mu buki, na yo basiga abarwayi bakaba bakira, ariko ikunze kutaboneka, kubera ko ubuki buri mu bintu byabuze.

Dushishikarizwa kenshi kubungabunga imiti gakondo kubera ko tuba tutazi isaha n'igihe twarwarira kandi iba yadufasha muri ubwo buvuzi, tukaba twakira tutarinze kujya kwa muganga.

Imiti yo kwa muganga igomba kuba ibitse ahantu hatagerwa n'abana kubera ko no kwa muganga hagerayo abana, kandi abana turabizi ko bakubagana bashobora kuyangiza bayigezeho.